Inama y'umunsi. Inzitiro ku matungo. Ushobora gushyira uruzitiro rukomeye kandi rukwiye ahantu hose kugira ngo urinde amatungo yawe kuba yazerera cyangwa ugahura n'ibintu byayangiza.

Umuntu bashyizeho ibyuma byo kwa muganga bari kumupima indwara. Ni ibyishimo by'umuryango, ni ukudahangayikira ahazaza, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'ubw'umuryango wawe.

Mituweli ubwisungane mu kwivuza. Akaba ari uburyo bwashyizweho na Leta y'u Rwanda, kugira ngo bworohereze abaturage badafite ubushobozi buhagije, kuba babasha kwivura, indwara zabarembeje.

Impanuka ntiziteguza, ushobora kugenda ugahura n'impanuka nk'uko aka kaguru nako byagenze bakaba bagapfutse, ushobora rero gufata ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima aho mu gihe uhuye n'impanuka bashobora kukwitaho.

Umugabo uri kumwenyira, wambaye ishati nziza y'umweru, ikote ry'ubururu, ufite igikapu ku rutugu. Bikaba bigaragara ko ari ahantu hategerwa indege. Akaba ari kwamamariza ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi.

Umugabo ufite agasatsi gake wambaye ikote ry'umukara, ari kwamamaza sosiyete y'ubwishingizi agaragaza ko buhendutse.

Umukobwa useka neza wambaye ikote ry'umukara ndetse n'isaha nziza ari kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi gifasha abantu mu kubagoboka bahuye n'ibiza nk'inkongi z'umuriro cyangwa impanuka.

Umukobwa uri ku mwenyura, wambaye ishati y'ubururu ufashe terefone ye mu ntoki ,ari kwamamariza ikigo cy'ubwishingizi aho ushobora kohereza ibisabwa kugirango umenyeshe impanuka igihe cyose n'aho uri hose.

Ikigo cy'ubwishingizi cyitwa ariyanse kikaba gifasha abantu kubona ubwishingizi mu gihe bahuye n'ibiza, urugero nk'inkongi z'umuriro impanuka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugore w'inzobe wambaye umupira w'ubururu ndetse n'itaburiya y'umukara akaba ari kwamamaza ubwishingizi bugezweho, bugufasha kuba washinganisha ibintu byawe nk'amazu ndetse n'ibicuruzwa byawe.

Ikigo cy'ubwishingizi cya Radiyanti cyazanye uburyo ushobora gukoresha wizigamira hanyuma ukizigamira hanyuma ukungukirwa agera kuri kane ku ijana mu gihe kingana n'imwaka, kugira ngo izo serivise uzibone ushobora kubahamagara.

Ikigo gitanga ubwishingizi cyitwa rayifu inshuwarensi kikaba gitanga ubwishingizi, n'iyo wowe waba udahari, kikabuha abawe wowe upfa kwizigamira gusa, hanyuma bahura n'ibibazo bakazabagoboka.

Intoki zifashe ikaramu y'igiti kuruhande hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara bikaba bigaragaza ko ari ikigo cy'ubwishingizi cyishingira abantu mu gihe bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye.

Umukobwa useka neza ufite imisatsi y'umukara akaba yambaye umwambaro w'umweru, ku ruhande rwe hicaye n'umuhungu nawe uri guseka bakaba ari kwamamariza ikigo cya buritamu gitanga ubwishingizi.

Umuhungu wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara, imbere hari umumama wambaye ikanzu y'icyatsi akaba afashe mudasobwa ye mu ntoki ndetse ari gusobanurirwa ibintu bigiye bitandukanye.

Amashati meza cyane acuruzwa agiye afite amabara atandukanye hakaba hari iy'umuhondo, ubururu, umutuku, ndetse n'andi mabara atandukanye uyashaka wabagana ukagura imwe muri yo.

Umukobwa ndetse n'umuhungu bahagaze hamwe umukobwa akaba yambaye ishati y'umweru afite imisatsi y'umukara ndetse yambaye n'amarinete, ari kwereka uno muhungu mu gikoresho k'ikoranabuhanga.

Ahantu hacururizwa imyambaro y'ubwoko bugiye butandukanye; iy'abagabo, abagore, hakaba hahagazemo umuhungu waje kugura imyenda, ndetse n'umumama uri kumufasha kureba iyo ashaka.

Abagore babiri bahagararanye, umwe yambaye agakote k'ubururu mo imbere harimo agasengeri k'icyatsi ndetse yambaye n'ikoboyi y'ubururu. Undi afite imashini mu ntoki ye ndetse ari kumwereka uburyo yayikoresha yishyura.

Umugabo wambaye ishati y'umuhondo n'ingofero akaba ahagararanye n'umugore ,nawe wambaye ishati y'ubururu bari kureba mu cyuma cy'ikoranabuhanga kimeze nka mudasobwa ,kiba gitanga amakuru agiye atandukanye.

Icyapa kini ni cy'ubururu cyanditseho kampani yitwa yundayi, akaba ari ikigo gicuruza imodoka zigiye zinyuranye zitwa yunadayi, ushaka imodoka wabagana bakaguha zimwe muri zo.

Imodoka nini y'umweru iri mu bwoko bwa pajere, ikaba ari imodoka nziza kandi igezweho kubere umuvuduko igira ndetse n'ikoranabuhanga rihambaye ikoranwe, hirya yayo hari ibiti byiza cyane ndetse n'amazu.

Imodoka y'umukara iparitse ni imodoka yo mu bwoko bwa kiya, ni imwe mu modoka zigezweho ikoresha amashanyarazi, ikaba ari imodoka yihuta cyane bitewe n'ikoranabuhanga ikoranywe.

Ahantu hakorera kampani(company) icuruza ama modoka yo mu bwoko bwa yundayi ,hakaba hari amarembo akinguye ndetse hakaba haparitse amamodoka bacuruza. Ukeneye imodoka wabagana bakagufasha.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikinyabiziga, bafite ikintu gifite ishusho y'urufunguzo kinini kiri mu ibara ry'umweru, umugabo umwe yambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara ndetse undi afite agakapu mu ntoki k'umutuku.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa yundayi taksoni yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ikaba iri ku isoko aho ihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni cumi nebyiri ku muntu wese waba wifuza kuyigura yabavugisha.

Abantu wafashe ishusho y'ikintu kimeze nk'urufunguzo bari kumwenyura bafata ifoto inyuma yabo hari imodoka nziza cyane y'umukara ndetse n'amatara yaka cyane.

Imodoka ziri mu mabara atandukanye, ziparitse ahantu hamwe hakeye cyane izi modoka bikaba bigaragara ko zikiri nshyashya ko zishobora kuba zigurishwa nta wifuza imodoka wabagana.

Imodoka y'umweru ya toyota ikaba ifite amatara y'umutuku, ni imodoka ikiri nshyashya idafite na nimero ziyiranga, ushaka kuyigura wabagana bakayiguha.

Abantu batandukanye bicaye ahantu hamwe bambaye imipira igiye itandukanye hari uwambaye uw'umutuku, uw'umukara ndetse n'umweru, hirya yabo haparitse imodoka ndetse hari n'icyuma kifashishwa mu kwerekana amashusho.

Abagabo babiri bafashe ikintu gikozwe mu ishusho y'urufunguzo bahagaze imbere y'ikamyo y'umukara, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru, ari guha serivisi zitandukanye umugabo waje umugana, wambaye ingofero y'umukara, agapfukamunwa k'umukara. Hejuru hari agakarita k'umuhondo kariho kode ushobora gukoresha wishyura.

Umugabo uhagaze, ufite amafaranga menshi cyane imbere ye, agiye afunze mu mishandiko, hakaba hari n'imashini yifashishwa mu kubara ayo mafaranga, aho ari kugenda ashyiramo akareba umubare wayo.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu mo imbere harimo ishati ndetse na karuvati y'umukara, afite amafaranga mu ntoki ari kuyabara ndetse imbere ye hari imashini yifashishwa mu kubara amafaranga.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bitanu by'u Rwanda akaba ariyo note nini ibaho mu gihugu cy'u Rwanda aya ni amafaranga yifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo ufashe amafaranga y'abanyamahanga, imbere ye hari imashini ibara amafaranga, ndetse ku ruhande hari n'ayandi azinze mu mishandiko igiye itandukanye, uyu mugabo akaba ari kuyabara kugira ngo amenye umubare wayo.

Umugabo wirabura ufasha amafaranga y'amanyamahanga mu ntoki, ndetse n'ayandi menshi cyane agiye azinze mu mushandiko ari ku ruhande rwe, aya mafaranga akaba yifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye.

Inote y'amafaranga ijana, iriho umugore uhetse umwana. Aya akaba ari amafaranga yakoreshwaga mu gihe cya kera batarahindura amafaranga, akaba akoreshwa mu Gihugu cy'u Rwanda.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyaturukaho bakaba bagira n'ibindi abantu bifashisha bari kunywa ayo mata, umugabo ufashe capati mu ntoki akaba ari umugati ukozwe mu ifarini uryoha cyane iyo uwunywesheje amata.

Ibicuba byinshi cyane bipfundikiye, ibi ngibi bikaba bibarizwa ahantu haba hari amata. Byifashishwa mu kubika amata neza ku buryo bagenda bayageza ahantu hatandukanye ameze neza.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho bakaba bafite n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye biryohereye, bafite n'imashini ibafasha gukonjesha amata yabo, agakomeza afite ubuziranenge.

Imashini iri ahantu hacururizwa amata ndetse ikaba yifashishwa mu kubika amata agakomeza afite umwimerere wayo. Hino yayo hari indobo ipfundikiwe n'umupfundikizo wayo.

Abantu batatu bahagaze umukobwa wambaye umupira w'umutuku afashe udukombe tubiri mu ntoki turimo icyo kunywa cyitwa yahurute. Hakaba hari undi uhagaze hagati wambaye umupira w'umukara ndetse n'undi uhagaze ku ruhande wambaye umupira utukura.

Ameza y'umweru ateretseho akantu karimo ibikomoka ku matungo bizwi nk'amagi ndetse n'akandi gakombe karimo uduti tw'isuku twifashishwa nko mu gihe umuntu amaze kurya akaba yagize ibintu bimufata mu menyo akabikuramo.

Umugore wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe ikanzu y'ubururu ndetse n'isakoshi y'umukara ari ahacururiza ibyo kunywa bigiye bitandukanye birimo imitobe iryohereye imineke ndetse n'ibindi.

Ahantu hacururizwa amata hari amabara yiganjemo ubururu, hakaba hari indobo ebyiri ziteretse zipfundikiwe n'imipfundikizo yazo. Imwe muri yo ifiteho akuma kifashishwa bafata ibiribwa biri muri izo ndobo batabyanduje.

Ahacururizwa ibinyobwa birimo amata ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba hari igikombe giteretse kirimo amata. Akaba ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu kubera ko abamo intungamubiri zigiye zitandukanye.

Ahacururizwa amata higanjemo amabara y'ubururu, hari abagore babiri bahagaze. Bombi bambaye imipira y'umweru, ingofero z'umweru, inyuma yabo hari icyuma gitunganya amata.

Ahacururizwa amata higanjemo ibara ry'ubururu, hari umugabo wambaye isengeri y'umweru ndetse n'abana babiri. Ku ruhande hari ibicupa bishyirwamo amazi ayo mazi akaba ari ayo kunywa.

Ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, bafite nk'imitobe iryohereye hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara uri kwishyura ibyo yakoresheje aho hantu.

Ahantu haparitse ipikipiki yikoreye igicuba kinini babikamo amata, kikaba kiriho n'akajerekani k'umweru. Hino hari ahantu hari amakaro y'umweru asa nabi basutseho amazi bagenda bayakoropa.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, ku ruhande rwe hakaba hari imashini itunganya amata agakomeza ameze neza ku buryo abaza kuyagura bayishimira.

Ahantu hacururizwa amata, hakaba hicayemo abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru, bari kunywa amata. Inyuma yabo hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'icyifashishwa mu kwirebamo mu gihe umaze kunywa amata.

Abagabo babiri umwe wambaye ingofero yumweru n'umuhondo, undi wambaye umupira w'ubururu, bombi bafashe ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo terefone ngendanwa, bari kurebamo.

Ishusho y'akagabo kambaye ikote ry'umutuku, ishati y'umweru, ndetse n'inkweto z'umukara, afashe telefone ngendanwa mu ntoki ari kugaragaza ko ubonye amafaranga magana atanu kuri konti yawe ya eyateri mani.

Ibiganza bibiri, biri guhererekenya amafaranga yamanyamahanga agiye atandukanye, harimo amenyerewe cyane, azwi nk'amadorari. Bakaba bari kuyahererekanya mu rwego rwo kuvunja, umwe aha undi ayo ashaka, n'undi akamuha ayo akaneye.

Umugabo ufashe amafaranga y'abanyamahanga mu ntoki ari kubara rimwe rimwe kugira ngo amenye umubare wayo, ku ruhande hari andi mafaranga afunze mu mushandiko.

Amafaranga mpuzamahanga azwi nk'amayero. Hari inote zayo zigiye zitandukanye, hari aho hari amayero atanu, amayero icumi, makumyabiri, mirongo itanu ndetse n'amayero ijana.

Ibiganza bifashe amafaranga y'amanyamahanga mu ntoki azwi nk'amadorari ari kuyahereza undi muntu akaba ashaka ko bamuvunjira bakamuaha ay'ikindi gihugu ashaka.

Imashini iri mu ibara ry'ubururu, ikaba iriho amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye n'amazina yabyo ndetse n'uko ayo mafaranga y'ibyo bihugu ahagaze mu madorari ushaka kuyagura cyangwa kuyagurisha.

Umuntu ufashe amafaranga y'amanyamahanga, azwi nk'amadorari ari kuyashyira mu cyuma kifashishwa mu kubara amafaranga akaba afite n'imashini ya mudasobwa iri imbere ye aho ari kureba umubare w'ayo mafaranga uko ungana.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga, aho ujyana amafaranga y'abanyamahanga bakaguha ayandi wifuza y'igihugu ushaka kujyamo, umugabo afasha amafaranga y'amadorari mu ntoki ze menshi.

Amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye amenyerewe nk'amahinde ndetse n'andi, ayangaya mu gihe uyafite ntago yagupfira ubusa ahubwo wayajyana aho bashinzwe kuvunja bakaguha ay'igihugu wifuza.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'isaha, imbere ye hari amafaranga azinze na fimbo ndetse n'andi agiye kubara akayazinga, hari n'irangamuntu ndetse n'amafaranga igihumbi ku meza...

Umugabo ufashe amafaranga y'amanyamahanga menshi cyane mu ntoki ye, ari kuyabara ashaka kumenya umubare w'ayo mafaranga, ku buryo akeneye gukoresha cyangwa kugura nk'ikintu ki bitamugora.

Amafaranga mirongo itanu akoreshwa muri Congo akaba ari amafaranga ushobora kwifashisha uri no mu bindi bihugu aho uyajyana ahantu batanga amafaranga y'abanyamahanga bakakuguranira.

Umugabo wirabura ufashe amafaranga y'amanyamahanga mu ntoki, imbere ye hari ayandi y'amadorari ndetse n'ayandi y'ikindi gihugu, akaba ari kuyabara kugira ngo amenye umubare wayo.

Inote y'amafaranga magana atanu y'amayero. Aya akaba ari amafaranga mpizamahanga, agiye akoreshwa n'ibihugu bitandukanye, aho uyafite ashobora kuyajyana mu kindi gihugu cye, bakamuha ahuye n'ay'igihugu arimo.

Urutonde rugaragaza ukuntu amafaranga y'abanyamahanga agiye ahagaze mu bindi bihugu, ndetse n'uko ushobora kuba wayagura aho bagaragaza igiciro cy'ayo wayagura n'ayo wayagurisha.

Amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye ari guhererekanywa n'abantu babiri, bari kumuha amadolari nawe agiye kumuha ay'ikindi gihugu mu buryo bwo kuvunja amafaranga atandukanye.

Icyapa kigaragaza ahantu bakora ivunjisha ry'amafaranga rigiye ritandukanye, hariho itariki y'uwo munsi ndetse n'uko amafaranga ahagaze, aho amadorari ushobora kuyabona ku gihumbi na magana atatu mirongo icyenda n'umuani.

Inzu ikoreramo ikigo gishinzwe kuvunjisha amafaranga bakaba baguha amafaranga y'amanyamahanga, nawe ukabaha ayo ufite ushobora kujyana amadorari bakaguha amanyarwanda cyangwa ufite amanyarwanda bakaguha amadorari.

Akazu k'ubucuruzi gakozwe mu cyuma gafite serivise zigiye zitandukanye ndetse gakoreraho amabanke agiye atandukanye, urugero ushobora kubagana ushaka kwishyura amazi, kwishyura umuriro, kugura amayinite yo guhamagara ndetse n'ibindi.

Ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye, aho bavunja amafaranga y'amanyamahanga bakaguha ayo wifuza, ushobora kuzana amadorari bakaguha amanyarwanda cyangwa ukajyana amanyarwanda bakaguha amadorari.

Icyumba cyiza cyane cy'uruganiriro kirimo intebe zo kwicaramo iz'umutuku ndetse n'umweru hirya mu nguni harimo umutako w'ururabo hakaba n'akabati kamanitseho icyuma gisakaza amashusho.

Intebe ndetse n'ameza, byiza cyane, bikozwe mu biti, bikaba bisize ibara rya shokora, zifite n'imisego y'umweru. Ziteretse ahantu heza, hari amakaro y'umweru, ndetse n'ibikuta ku ruhande, bisa umweru.

Intebe nziza cyane zigiye zifite n'imisego yazo ndetse zikaba zifite ameza afite n'utundi tumeza dutoya, bigendana akaba ari ameza yifashishwa mu gihe umuntu agiye kurya agaterekaho amasahani.

Ahantu hakorerwa ububaji ndetse bakaba bafite n'ibiti byinshi cyane bigiye bikorwamo ibintu bitandukanye nk'intebe , ameza yo kuriraho ndetse n'utubati dutandukanye. Ukeneye bimwe muri ibyo bikoresho wabagana.

Ubwogero rusange buzwi nka pisine, akaba ari amazi aho umuntu wese uzi koga ashobora kugenda koga akaba ari n'imwe muri siporo zikomera cyane abantu benshi batazi.

Inzu nziza cyane ifite igikoni kigezweho ndetse n'utubati two kubikamo ibikoresho byo mu gikoni. Hari imashini yifshishwa mu gushyushya imyaka yo kurya igiye itandukanye, umuntu akayirya imeze neza.

Akabati gapanzemo ibyokunywa by'amoko menshi igiye atandukanye, bisindisha, ahangaha bikaba bigaragara ko ari mu kabari, aho wifuza ikinyobwa icyo ari cyo cyose ubagana, ukabasha kuba wakinywa ariko wishyuye.

Mu nzu imwe ifite amatara meza yaka cyane ndetse ikaba itatswe n'mitako igiye itandukanye, aho bafite n'indabo mu nzu aha ngaha ni ahantu heza cyane rwose.

Inyubako nziza cyane imenyerewe ku izina rya hoteri, ikaba ifite umwogero rusange, aho ushobora kuba unaniwe ukaza kwiyogera, akaba ari na siporo nziza cyane dushishikarizwa n'abaganga ituma ubuzima bugenda neza.

Imwe mu nyubako zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, harimo Komveshoni Senta. Akaba ari inyubako iberamo ibirori bigiye bitandukanye, ndetse n'inama mpuzamahanga, baba bari kwiga ku mishinga runaka.

Ahantu hari ibiribwa bigiye bitandukanye biteguye neza ndetse bibereye n'ijisho, ubona ko biryoshye, hakaba ari muri hoteli runaka aho bateguye ibyo kurya bya saa sita, by'ahari kubera inama.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka sani ramu. Ikaba itatswe n'ibipirizo biri mu mabara y'umweru n'ubururu ndetse bakagira n'aho kwakirira abantu hateguye neza cyane.

Ahakorera ikigo cy'ubwishingizi cyizwi nka sani ramu hari abantu batandukanye ndetse hari nibyapa binini bishushanyijeho abantu, hejuru hari icyuma cyigaragaza amashusho.

Icyapa cy'ubururu gifite ikirangantego cy'umuzenguruko cy'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa radiyanti, iki kigo kikaba gifasha abantu mu kubagoboka mu gihe bahuye n'ibiza.

Ahakorera ikigo gishinzwe ubwishingizi cya sanilamu, hakaba hari utumeza tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, duteretseho mudasobwa n'abantu bahagaze biteguye guha serivisi abaje babagana.

Abagabo batatu bari kugenda mu muhanda, ndetse ku ruhande hakaba hari ikigo gishinzwe ubwishingizi, aho gifasha abantu mu kubagoboka mu gihe bahuye n'ibibazo.

Abagabo babiri bicaye ahantu hamwe, umwe yambaye ishati y'umweru imbere ye hari mudasobwa, undi yambaye ishati irimo amabara atandukanye n'ipantaro y'umukara ndetse afite agakombe mu ntoki ari kunywa.

Ahantu hari ikibanza cyiza kandi kinini, bari kwerekana ko ushobora gufata inguzanyo ukaba wahubaka inzu nziza cyane y'inzozi zawe hanyuma ukazagenda uyishyura buke bukeya.

Umugore uri kumwenyura ufashe igikoresho cy'ikoranabuhanga cye mu ntoki akaba ari kwishimira uburyo bw'inguzanyo itangwa na sipeni aho baguha inguzanyo ariko itagira ikiguzi habe na kimwe.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, afite telefone ye ngendanwa mu ntoki, yasabwe n'ibyishimo byinshi cyane kubera ukuntu banki yoroheje serivisi.

Abagore benshi bateraniye hamwe hari umugabo uhagaze ndetse hari n'agasanduku imbere yabo, abo bagore bafite ibitabo mu ntoki ubona ko ari inyigisho baje gufata hirya hari igiti.

Umugore wambaye umupira wa oranje uri kumwenyura, imbere ye hateretse mudasobwa akaba ari kwamamaza banki ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ushobora kwifungurira konte bitagusabye kuva aho uri.

Abantu bane harimo abagabo babiri n'abakobwa babiri. Umugabo wa mbere yambaye isurubeti y'ubururu, afashe ingofero y'umuhondo mu ntoki ndetse n'inyundo ku rutugu. Yegeranye n'umukobwa wambaye ikoti ry'umweru.

Isoko rya kijyambere ririmo abantu batandukanye hari umumama uhicaye uteze igitambaro mu mutwe wambaye umupira w'ubururu, imbere ye hari ibiriba bitandukanye nk'imineke ndetse n'imyembe.

Ahacururizwa imyambaro y'amoko agiye atandukanye hakaba hari abantu baje kugura ndetse n'abandi bantu bafite imashini zidoda, aho mu gihe uguze umwenda utagukwira bawukudodera ukabasha kugukwira.

Abamama benshi cyane bari mu isoko bacuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye, aho bafite abaguzi benshi baba babagannye kugira babahe ku byo bacuruza birimo nk'inyanya, intoryi, urusenda ndetse n'ibindi.

Umugore wirabura, uteze igitambaro cy'umukara, numweru mu mutwe. Akikijwe n'ibiribwa bike bitandukanye birimo imyembe , inyanya ,ubunyobwa ndetse, n'imineke bikaba ari ibiribwa biryoha cyane.

Ahantu bacururiza imyambaro igiye itandukanye; iy'amakipe menshi dukunda nkay'u rwanda, brazil ndetse n'ibindi bikoresho; hakaba hari n'abamama bafite imashini zidoda; bashobora ku kudodera imyenda.

Isoko ririmo abantu batandukanye umugabo wambaye umupira w'ubururu, ndetse n'umugore wambaye umupira w'umutuku. Hakaba hari ibiribwa bitandukanye birimo intoryi, karoti, na pwavuro.

Ahantu hamanitse ibisabo byinshi bigiye bitandukanye, abagore batandukanye, bafite ama mashini adoda ndetse hahagaze n'umugabo winzobe wambaye ipantaro y'ubururu.

Ahantu hari abantu benshi cyane n'imodoka zigiye zitandukanye, amapikipiki bikaba bisa nk'aho ari mu isoko aho abantu bahurira bakaza kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye buri wese yifuza.

Isoko rinini rya kijyambere ricururizamo abantu benshi bagiye batandukanye, aho bafite n'ibiribwa nabyo bitandukanye bikubiyemo inyanya, karoti, inoryi, imiteja ndetse n'ibindi.

Ibiribwa bigiye bitandukanye by'icyatsi, akaba ari ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, harimo amashu karoti ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi biryoha mu biryo.

Isoko rya kijyambere ririmo abantu benshi b'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, abadamu, abagabo, ndetse n'abandi hakaba ari ibiribwa by'amoko menshi voka, imineke, amapapayi, n'ibindi byinshi.

Iki ngiki akaba ari icyapa kerekana ko aga ngaha ari mu karere ka Bugesera, Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'iburasira zuba mu gihugu cy'urwanda, ni ahantu heza harambuye gusa haba ubushyuhe.

Iki ngiki akaba ari icyapa kerekana ko aga ngaha ari mu karere ka Bugesera, Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'iburasira zuba mu gihugu cy'urwanda, ni ahantu heza harambuye gusa haba ubushyuhe.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umumama umuhagaze ku ruhande wambaye ikanzu, uwo mukobwa ari gufasha uwo mumama kubona uburyo bwo kwishyura yifashishije ikoranabuhanga, bugezweho kandi bworoshye.

Ahakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda izwi nka eyateli hakaba higanje amabara y'umutuku, ndetse n'umweru. Ahangaha ushobora kubagana ukeneye serivisi zigiye zitandukanye bakaba bagufashe.

Umukobwa ufashe indangururamajwi mu ntoki ze, yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu, akaba ari umuhanzikazi wamenyerewe ku izina rya Bwiza, aho aririmba indirimbo z'urukundo.

Ahakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda izwi nka MTN, hakaba hari amabara yayo aharanga y'umuhondo ndetse n'icyapa kinini cyanditseho amagambo momo MTN.

Abantu benshi bagiye batadukanye bigaragara ko bari ahantu bakorera, barashaka kwishyura ibicuruzwa bagiye bafata, hirya ku ruhande hari agakarita k'umuhondo kariho nimero y'umucuruzi ushobora kwifashisha wishyura.

Akazu k'umuhondo k'isosiyete y'itumanaho ya emutiyene kakaba karimo abakozi bayo, bari gutanga serivisi zigiye zitandukanye zirimo nko kubitsa kubikuza cyangwa se kohereza amafaranga.

Agakarita k'umuhondo kariho izina ry'umucuruzi ndetse na kode dushobora gukoresha umwishyura, umuntu wafashe terefone mu ntoki, agiye gukoresha iyo kode yishyura kugira ngo ntibamukate.

Mu isoko ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye, nka karoti, intoryi, amavuta, ifu ndetse n'ibindi, hakaba hari n'agakarita k'umuhondo kariho kode y'umucuruzi kifashishwa mu kwishyura.

Akazu k'umuhondo, k'isosiyete y'itumanaho ya MTN mu Rwanda, harimo umugabo uhagaze. Batanga serivisi zigiye zitandukanye zirimo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga, cyangwa kugura amayinite yo guhamagara.

Inzu irimo abantu bambaye imipira y'imihondo bakaba bakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda izwi nka emutiyene, hari undi mugabo ufasha amvirope mu ntoki ndetse na telefone ye agaragaza ko yishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Umugabo uri kumwenyura wambaye ishati y'umweru, umupira w'umuhondo, akaba ahagaze imbere y'ipikipiki y'umuhondo. Inyuma ye hariho icyapa kinini cy'umuhondo, gishushanyijeho imodoka y'umukara.

Agakarita k'imuhondo k'isosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, kari kugaragaza uburyo ushobora guhahaha ndetse ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho ukoresha kode y'umucuruzi ukishyura udakaswe.

Abantu batandukanye, baje bagana abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene. Aho bari gusobanurirwa serivise zigiye zitandukanye iki kigo gitanga, zikubiyemo ubitsa ndetse no kubikuza.

Umusore wasabwe n'ibyishimo byinshi cyane yambaye ishati y'icyatsi afite amvelope mu ntoki irimo ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse imbere ye hari igisanduku kinini cyane cy'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu yicaye mu modoka afashe ikarito mu ntoki ye akaba akorera ikigo gishinzwe kugenda kigeza ku bantu ibyo bagiye batumiza.

Urubuga rwo kuri murandasi, rwitwa ari egisipuresi, rucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo amakote, amasakoshi, terefone nziza cyane zigezweho ndetse n'ibindi.

Ikamyo nini ifite igikontineri cy'umuhondo ndetse n'ubururu ikaba ariy'ikigo cyitwa iposita gishinzwe gufasha abantu kugenda babagezaho amabaruwa inshuti n'imiryango babandikiye.

Amapikipiki atandukanye ari mu muhanda, abayicayeho bambaye imyenda itukura ndetse n'ingofero zitukura. Imbere hari imodoka ya toyota y'umweru ,ifite ikintu cy'inyuma ushobora gushyiramo imizigo itandukanye.

Umumotari utwaye ipikipiki yambaye ingofero imurinda kuba yakora impanuka, akangirika y'umutuku, kuri moto ye ahetse igikapu kinini cy'umuhondo ndetse na oranje.

Ipikipiki ihetse igisanduku cy'umuhondo kifashishwa mu gutwara ibintu ntibyangirike hakaba hari umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa uteretseho anvelope hejuru y'icyo gisanduku.

Icyumba kiza cyo kuraramo gisize amabara y'umweru kikagira igitanda kiza cyane kinini ndetse n'amashuka, ukaba ushobora kuyibona ku madorari magana atanu mirongo itanu muri Kigali Kabeza.

Kuri miliyoni zawe magana abiri mirongo ine, ushobora kubona inzu yo kugura mu mujyi wa Kigali, inzu nziza cyane igeretse ifite ahantu heza ho guparika imodoka, ku buryo itagira ikibazo ndetse n'ibyuma bishyushya amazi yo gukaraba.

Inzu nziza cyane ifite ubukarabiro bwiza ndetse n'ikirahure cyo kwireberamo mu gihe umaze gukaraba iyo nzu ikaba iherereye i Kigali muri kanombe aho ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu wayibona.

Ku madolari yawe magana atanu mirongo itanu ushobora kubona inzu i kigali nziza cyane, ifite aho kuryama heza ibikuta byiza cyane by'umweru ndetse n'ubwogero bugezweho.

Ku bihumbi maganatandatu byawe ushobora kubona inzu y'ibyumba bibiri iri i Kigali iherereye i Remera akaba ari inzu ifite amatara meza ibikuta bisize amabara meza cyane y'umweru ndetse n'icyumba kinini cy'uruganiriro.

Ku mafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda ushobora kwibonera inzu nziza cyane Kabeza mu mujyi wa Kigali. Akaba ari inzu iherereye ahantu hari ikirere gikeye ndetse n'amahumbezi.

Inzu nziza cyane ifite amatara amurika neza, aho kuryama heza ndetse n'amarido meza kuburyo ushobora kuyibona kumadorari igihumbi n'ijana wishyura buri kwezi.

Inzu nziza cyane, ifite igisenge cy'amabati atukura, ahantu hasashe amapave meza cyane. Ikaba ari inzu iri kugurishwa amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu. Ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe.

Inzu nziza cyane ifite ibikuta bisize amabara y'umweru, amarido y'umweru n'umukara ndetse n'igitanda cyiza cyane cyo kuryamaho, aho ushobora kuyibona ku madorari igihumbi na magana atanu i Kigali mu Rwanda.

Ku mafaranga amadorari igihumbi na magana atanu ushobora kubona inzu mu mujyi wa kigali yo gukodesha, iherereye Kibagabaga ifite n'ahantu heza cyane ho guparika imodoka yawe ntigire ikibazo.

Inzu nziza cyane iri ahantu heza ifite amabara y'umweru imbere yaho hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti byiza cyane. Ku madolari igihumbi na magana atanu ushobora kuyibona mu mujyi wa Kigali

Kuri miliyoni zawe mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda ushobora kubona inzu mu Rwanda i Kigali iherereye Kabeza akaba ari inzu ifite ubwogero bwiza bwa kijyambere bugezweho.

Inzu nziza cyane ifite urumuri ruhagije, ikagira ibikuta bisize amabara y'umweru ndetse bimanitseho n'amafoto abereye ijisho, ikaba iherereye Kibagabaga, aho ikodeshwa amadolari igihumbi na mirongo itatu n'atanu.

Inzu nziza cyane igeretse kabiri ikaba ifite aho guhagarara heza witegeye umugi ndetse n'ahantu heza cyane ho kuruhukira igihe hatandukanye ku mafaranga igihumbi cyawe cy'idorari ushobora kuyibona.

Inzu igurishwa amafaranga miliyoni cumi na zirindwi, iherereye i Kansenze. Ayo mafaranga akaba ashobora kuganirwaho bakareba nimba bayagabanya. Iyo nzu ikaba ifite imiryango y'umutuku n'ibirahure by'ubururu.

Inzu ndende igeretse ifite amabara meza cyane harimo n'iry'icyatsi ikaba ifite nahantu ho guparika imodoka yawe imbere mu gipangu, ikaba ihereye i Kigali Kicukiro ifite ibyumba bine, ubwogero bune uka wayibona ku bihumbi magana arindwi.

Inzu ikodeshwa, ifite icyumba kimwe, ikagira ubwogero bumwe, ikaba iri gukodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri, iherereye i Kigali, Kacyiru. Ubakeneye, hariho na nimero wabahamagaraho.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ifite ibyumba bine, aho kogera hatatu, iherereye i Kagarama, ikaba ari inzu ifite igipangu cyiza cyane kibereye ijisho.

Inzu nziza cyane igeretse y'umweru, ifite ubusitani imbere yayo. Aho ushobora kuyibona ku madolari ibihumbi bibiri, ubwo ni ukuvuga miliyoni ebyiri zirengaho z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane isize amarangi y'umukara ndetse n'ay'umuhondo n'umweru ikaba ari inzu iri gukodeshwa i Kanombe ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu ikaba ari inzu ifite na parikingi mo imbere mu gipangu.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako nziza cyane, yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Uyu akaba akora akazi ko kuranga amazu aho aba agenda ayataka ubwiza ayo mazu afite.

Inzu nziza cyane ifite amabati y'umutuku ikaba ifite n'amabara meza imbere yayo hari umwanya munini ushobora no guparikamo imodoka ikaba iherereye i kanombe aho iri kugurwa miliyoni ijana.

Inzu nziza cyane iherereye i Kigali, Kimironko, ifite amabara meza agiye atandukanye nk'umutuku ndetse n'ubururu, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu igeretse ikaba igurishwa ni inzu nziza isize amabara meza, ndetse imbere yayo hakaba hari uturabo ndetse n'aho guparika imodoka yawe, ikaba ifite umutekano aho nta kibazo yagira.

Inzu icururizwamo amatara y'ubwoko butandukanye yaba yifashishwa mu tubari utubyiniro ingo z'abantu ndetse n'andi hagiye hatandukanye hakaba hari umugabo ucuruza ayo matara wicaye.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara izingiye inyuma ku mutwe yambaye agapira k'umweru, afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze ndetse imbere hari inanasi hirya hari abagabo bahagaze.

Umusore w'igikara ndetse wambaye agapfukamunwa k'umukara. Yambaye ishati y'umweru n'umukara. Afite igikarita kinini mu ntoki ze, cyanditseho Mucyo William, kiriho umubare w'amafaranga angana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri.

Umugabo uhagaze, wambaye ishati y'umweru, karuvate y'umukara, irimo utudomo tw'umweru. Imbere ye hari abantu banshi bamutunze ibyuma by'ikoranabuhanga, birimo indangururamajwi ndetse n'amatelefone, kugira ngo bamurikodinge.

Abaturage batandukanye bicaye ahantu hamwe bigaragare ko ari kwa muganga, urabona ko banarembye cyane, bamwe bafite ibipapuro mu ntoki urabona ko bategereje muganga kugira ngo abavure ndetse bamusobanurire indwara barwaye.

Aba mama batandukanye abahungu abana bigaragara ko bari ahantu ku ivuriro, bafite ibipapuro mu ntoki baje kwivuza aho bicaye bategereje ko ukurikirwaho ajya kwivuza.

Ahantu bacururiza ibyoku kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye hazwi nko muri Supamaketi, hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku, uri kugenda apima ibicuruzwa bamaze kugura ngo arebe amafaranga bigura.

Ahantu hacururizwa ibiribwa bitandukanye, hari atajeri irimo ibyo kunywa nk'amata, amaji atandukanye. Hari umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru, uri kugenda areba.

Ahantu hafite isuku hari amatara meza yaka cyane ndetse n'ibintu bipanze neza bakaba bafite ibiribwa bigiye bitandukanye birimo imbuto ndetse n'ibindi ukaba wabagana ugahaha.

Ahantu hahirwa ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye biba bifunze mu mapaki. Hakaba hasa neza ndetse ibikoresho byabo bipanze neza.

Ahacururizwa ibiribwa mu buryo bugezweho, hakaba hahagaze umusore wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru, ahantu ari hari amatara yaka neza cyane.

Ahacururizwa ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibindi byo gutekesha ahazwi nko muri supamaketi hari ibyuma bikonjesha ibinyobwa birimo ibinyobwa bigiye bitandukanye kugira ngo umuntu aze kunbinywa bimeze neza.

Inzu nini icururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye by'amoko menshi, byiganjemo imbuto. Bakaba bafite ama pome, imineke ndetse n'amavoka ushobora kubagana.

Ahantu hacururizwa ibyokurya by'amoko agiye atandukanye, ibifunze mu mapaki ndetse no mu bikopo aha hakaba hazwi nka supamaketi ni heza cyane hari amatara yaka neza umuntu yakwishimira kuhagurira.